Ni umuhanda urimo ibibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo igikamyo, moto n'iyi modoka ntoya, indi iri inyuma yayo bakaba bari mu muhanda ugaragiwe n'ibiti, hakaba hari n'amapoto acana nijoro.